Ahantu abantu biyakirira, bahurira n'inshuti zabo ,haba ari heza cyane. Bacuruzamo inzoga ziba zipfundikiye , inyama za burusheti, inzoga z'ubwoko bwinshi zi...

Yageraga ahantu henshi cyane abantu bahurira bari kuganira, biyakirira, bararya ,baranywa, bateka nk'inkoko bagira ibinyobwa byinshi cyane, mitsingi, pirimusi, fanta n'ibindi binyobwa bitandukanye.

Tugira ahantu henshi duhurira turi kumwe n'inshuti zacu, tukahiyakirira. Turicara badutekera za burusheti, inzoga zipfundikiye, ibirayi, n'ibindi biryo dushaka by'amoko menshi, tukanywa.

TUgira inzu turiraramo, izo duhuriraramo turi abantu benshi cyane, twiga tugasabana, habamo inyama za burusheti, imigati, ibi tuywesha n'inzoga ziba zitandukanye n'ibindi byinshi cyane.

Inzu ducururizamo zigira akamaro kanini cyane，zibamo ibintu ibyinshi，voka，ibitunguru， amakayi，amakaramu， amabase， ibyo guteka n'ibindi byinshi cyane.

Inzu ducururizamo zibamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye, nk'amasukari, amakara, ibirayi, ibishyimbo, amabase, imifuka y'imceri iya kawunga amavuta yo guteka nayo kwisiga.

Inzu ducururizamo zibamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye amabiswi, inzoga amaji yo mu tubuni, tuwisite, amagi, ubunyobwa, ibiryo n'bindi byinshi cyane bigiye bitandukana.

Amazu ducurubizamo abamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye, n'iby'ubwubatsi, amajerekani y'amarangi, amadobo y'amarange, imyiko nivo, tenaye, n'ibindi byinshi biba bitandukanye.

Inzu ducuruzamo ibamo ibintu byinshi cyane ducuruza, amapantaro, amakote, amashati, za karuvate, inkweto z'abakobwa, iz'abahungu, izifunze, sandari n'ibindi byinshi cyane ducuruza.

inzu bacururizamo zibamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye ibijanye n'ibiryo barabiteka bakabigaburira abantu baba bashonje bateka ibirayi, ibishyimbo, igitoki, ifiriti n'ibindi byinshi cyane.

Inzu ducururizamo zibamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye nka magaze, amazi y'inyange, amabiswi, amagi, inzoga ziba zipfundikiye nka pirimusi, mitsingi, fanta, udufuka tw'imiceri n'ibindi byinshi cyane.

Inzu ducururizamo zigira akamaro kanini cyane. Zibamo ibicuzwa byinshi cyane biba bitandukanye, hari aho bacuruza ibirayi, ibishyimbo, ibijumba, imyumbati, amateke, isombe, amakara n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Inzu ducururizamo ,zibamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye, inzoga z'amoko menshi: pirimusi fanta, sikolu gatanu, mitsingi n'izindi nyinshi:amagaze, amavuta yo guteka n'ibindi byinshi cyane.

Inzu ducururizamo zibamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye cyane iby'abana, pampa bambara, po banyaramo, ibikapu by'ababyeyi , za kigoma bahekamo, ibigoma bazingira mu nkosha n'ibindi byinshi cyane.

Inzu ducururizamo zibamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye, nk'inzoga zipfundikiye, sikoro, pirimusi, fanta, nk'amatelefone y'amoko menshi, ibikoresho bya eregitoronike, imiriro y'amashanyarazi, insisinga, n'ibindi byinshi cyane.

Tugira amazu menshi cyane y'ubucuruzi ,tugira nka Fatimama hoteri, ikurura ba mukerarugendo, iherereye mu majyaruguru y'igihugu cyacu, mu karere ka Musanze.

Tugira amazu menshi cyane bacururizamo. Habamo ibijumba n'ibirayi, amakara, inyanya, ibitunguru, ibishyimbo, imiteja, ibitoki, n'ibindi byinshi cYane.

Inzu bacururizamo zigira akamaro kanini cyane; bacuruzamo inzoga z'amoko menshi, ziba zipfundikiye, pirimusi, turubo, mutsingi, fanta, n'izindi nzoga nyinshi cyane ziba zitandukanye.

Amazu ducururizamo habamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye: nk'amandazi, imigati, amakeke, amasambusa, amacapati, amaji, amafanta n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Inzu ducururizaho zibamo ibicuruzwa byinshi cyane cyane biba bitandukanye: ibishyimbo, ibijumba, ibirayi, amateke, imyumbati, amarindazi, imigati, icyayi, ibiryo n'ibindi byinshi cyane bitandukanye.

Amazu ducururizamo habamo ibintu byinshi cyane, habamo nk'inzoga ziba zipfundikiye , amapirimusi, amabyeri n'izindi nzoga nyinshi cyane zitandukanye.

Tugira amasoko menshi duhahiramo urugero rw'ibyo duhahamo ubunyobwa, bombo, bombo zo mugati, bombo zisanzwe, imigati n'ibindi byinshi cyane.

Inzu ducururizamo zibamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye: imyenda yo kwambara, amasafuriya yo gutekamo, utudobo two kubikamo, amabase yo gukarabiramo po abana bannyamo, n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Inzu ducururizamo zibamo ibicuruzwa byinshi cyane bitandukanye ,dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi: amabase ,imigati ,amarindazi ,amabase ,gaze imifuka, dutwaramo n'ibindi byinshi.

inzu ducururizamo ibicuruzwa byinshi cyane bitandukanye nk'amasaka, ibigori ifu y'imyumbati, iya soya, iy'ingano, ibirayi n'imiceri, kawunga, ibijumba amakara n'ibindi byinshi cyane.

Amazu ducuruzamo, habamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye nk'amazi, novda, n'ibindi byinshi cyane. Amazi agira akamaro kanini cyane, aba asa neza, atuma umubiri wacu uba ugenda neza.

Tugira amazu menshi cyane ducururizamo ibicuruzwa biba bitandukanye habamo :amavuta ,amakaramu, amakaye, imyenda y'abana ,imyenda y'imbere, amakariso ,amasutiye...

Inzu bacururizamo zibamo ubwoko bwinshi cyane, hari izo bacururizamo imiti igira akamaro kanini cyane ku bantu, ivura neza iyo miti ikorana na mituweli ikorana na Rama n'ubundi bwishingizi bwose abantu bakoresha.

Amazu ducururizamo habamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye; nk'amadobo, po izoba abana banyamo, imikoropesho, amabase, amakuvureri twiyorosa turyamye mu mashuka n'ibindi byinshi cyane.

Amaduka agira akamaro kanini cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, hari aho dusangamo ya miti baba bafunga mu makarito, dusangamo imigati myiza ifungwa neza makarito.

Inzu z'ubucuruzi zibamo ibiribwa bitandukanye. Habamo ibisheke, amakara, ibihaza, ibitoki, inzoga zipfundikiye, amabiswi, imigati, amarindazi n'ibindi byinshi.

Inzu ducuruzamo zibamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye, intoryi, inyanya, ibitunguru, ibirayi n' ibijumba, ibishimbo, ibigori, n' imifuka yo gutwara ibyo twahahiyemo, n'ibindi byinshi cyane.

Tugira amazu menshi cyane ducuruzamo ibicuruzwa byinshi biba bitandukanye, icyayi, imigati, keke, imineke, amaji y'inyange, amazi ya Niri, imyunyu, amata, n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Inzu ducururizamo habamo, ibintu byinshi ducuruza biba bitandukanye, ibirayi bigira akamaro kanini cyane, biraryoha tubigereka ku bishyimbo, tubiteka tubitogosheje, tukabivanga n'ibishyimbo tubiteka.

Inzu ducururizamo zibamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye: nk'amasabune, inzoga ziba zipfundikiye, imiti y'abana, iy'abantu bakuru, imyunyu, amavuta n'ibindi byinshi cyane.

Tugira inzu ducururizamo ziba zitandukanye, habamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye: udufuka twa kawunga, udufuka tw'umuceri, amakarito ya Nili, ay'Inyange, amagaze, inzoga ziba zipfundikiye, n'ibindi byinshi cyane.

Tugira amazu menshi cyane aba atandukanye, ducururizamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye amakarito y'inyange, amakarito ya niri ibiryo byo kurya amafiriti n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Inzu bacururizamo zibamo ibiribwa byinshi cyane biba bitandukanye habamo nk'imifuka ya sima ,imifuka y'imiceri ,iya kawunga n'imyunyu, n'ibindi byinshi cyane.

Inzu ducururizamo ziba zitandukanye nka Goyiko ibamo ibicuruzwa byinshi biba bitandukanye, bacururizamo imyenda y'abana, iy'abantu bakuru, inkweto z'abana, iz'abantu bakuru, ibikoresho byo mu nzu.

Inzu ducururizamo ziba mucuruzwa byinshi cyane biba batandukanye, imifuka y'imiceri, iya kawunga, iy'ibishyimbo, ibijumba, ibigori, ibirayi, amafu y'amasaka n'ibindi byinshi cyane.

Amazu ducururizamo abamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye. Amabati, ibibambano bita parafo, ibyuma bubakisha amazu, amasima, inzugi, amadirishya n'ibindi byinshi.

Tugiraga inzu nyinshi cyane ducururizamo ibicuruzwa byinshi biba bitandukanye, amatelefone, imyenda yo kwambara, amakabutura, amashati, amavuta yo kwisiga, amavuta y'abana ya gikotori n'ay'amazi.

Inzu ducururizamo zibamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye nk'ibikoresho by'abana, amaji yo kunywa, amavuta ya erayo, n'ibindi byinshi cyane nk'amavuta yo kwisiga n'ibindi byinshi.

Inzu ducururizamo zibamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye, nk'inzoga ziba zipfundikiye nka sikoro gatanu, primusi, mitsingi, byeri n'izindi nyinshi cyane.

Inzu ducururizamo, zibamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye. Bacuruza amapine y'imodoka, amagaze, amadobo amakara, ibirayi, ibishyimbo, ibijumba, ni byinshi cyane.

Tugira inzu nyinshi ducururizamo, zibamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye. Nk'inzu zo kuriramo bateka inkoko, ifi, ifiriti, burushete, agatogo, boyiro, igiti, igisafuriya, urukwavu, akabenze, akaguru k'inkoko n' ubugari, n'ibindi byinshi cyane.

Inzu z'ubucuruzi, zicururizwamo ibicuruzwa byinshi cyane bitandukanye, habamo amakaye, amakaramu, mvirope bafungamo impano batangaho mu bukwe, n'ibindi byinshi.

Inzu ducururizamo zibamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye, nk'amakarito y'Inyange, aya Niri, aya Mukamira, amata cyangwa se amazi, n'ibindi byinshi cyane bitandukanye.

Amazu ducururizamo abamo ibikoresho byinshi cyane biba bitandukanye ducuruza. Hari aho bacuruza inzoga ziba zipfundikiye, fanta, inyama n'ibindi byinshi cyane.

Inzu ducururizamo zibamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye n'inzoka ziba zipfundikiye. Nka Amusteri ni nziza cyane, abantu bazikunda ziraryoha, zituma abantu bishima benshi cyane.

Inzu zicururizamo zigira akamaro kanini cyane , zibamo ibiribwa byinshi cyane biba bitandukanye , amajerekani y'amavuta , imifuka y'imiceri , iya kawunga, inkweto , imyenda y'abana , imyenda z'imbere n'ibindi byinshi cyane.

Ubucuruzi ni bwiza cyane, habamo amapantaro, amakote, imipira, ndetse n'imyenda y'amoko menshi, amamoto, amamodoka, ibikoresho byo mu nzu, amakote, n'ibintu byinshi cyane.

Tugira amazu menshi ducururizamo ibikoresho dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, ibyo duteka harimo: ibishimbo, ibijumba, ibirayi n'ibindi byinshi cyane.

Inzu bacururizamo zigira akamaro kanini cyane biterwa n'ahantu ubwo bucuruzi buba buherereye, ariko hari abacuruzag inzoga zipfundikiye n'ibindi byinshi cyane.

Inzu ducururizamo zibamo amoko menshi cyane, hari izo turiramo, bacuza ibiryo, habamo amafi, inyuma, ibirayi, ibitoke, ibishyimbo, imboga n'ibindi byinshi cyane.

Tugira amazu menshi cyane ducururizamo habamo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye nki by'amagare, habamo: amapine, ibikoba ,amapombo yazo, amareyo n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Inzu ducururizamo zibamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye nk'ibitambaro tudodamo amakote, imyenda y'abana y'ishuri, amapantaro, ibitenge badodamo amaribaya y'abagore n'iyindi myambaro myinshi cyane itandukanye.

Inzu ducururizamo zibamo ibikoresho byinshi cyane biba bitandukanye . Nk'ibikoresho by'igare, amapine, amapombo adupombera amapine, ibyuma byinshi cyane biba bitandukanye, indobo zo guteka amasombe n'ibindi byinshi cyane.

Inzu bacururizamo ziba nziza cyane bitewe n'igikorwa gikorerwa aho hantu, nko ku kirunga cya Muhabura haba ari heza cyane harimo ibintu byose abantu bifuza, kugira ngo n'abakerarugendo bazaza bazajye barabona ahantu haguye.

Amazu ducururizamo abamo amoko menshi cyane atandukanye, ayacuruza imiti: iyivura ise, ibiheri, ibisebe, indwara z'abana iz'abantu bakuru.

Haba inzu nyinshi zicuruza, ariko hari abacuruza inzoga zipfundikiye urugero nka sikolo, pirimusi, mitsingi n'ibiribwa byinshi cyane bitandukanye.

Inzu bacuruzamo igira akamaro kanini cyane, habamo amagi, intebe imifuka, amabase, amagi, imigati, udufuka batwaramo ibyo bahaha.

Tugira ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye, n'amakara agira akamaro kanini cyane, turayatekesha, abantu bateka ku mbabura, baba badafite ubushobozi bwo kugura gaze, atugirira akamaro.

Inzu bacururizamo zibamo ibikoresho byinshi cyane biba bitandukanye, bacuruza inkweto, imyenda y'imipira, amapantaro, amashati.

Amazu ducururizamo abamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye, nk'ibikoresho abakobwa bifashisha igihe bari mu gihe cy'uburumbuke, amavuta yo kwisiga, ayo guteka, inzoga ziba zipfundikiye, ibyuma, imitobe yo kunywa n'ibindi byinshi cyane.

Mu nzu bacururizamo hari ahantu dusanga ubugeni, bakora amabumba y'ingagi amabumba y'ibiseke amabumba y'abantu, nay'izindi nyamaswa nyinshi zibaga zitandukanye.

Inzu ducururizamo zibamo ibikoresho byinshi cyane biba bitandukanye: gaze, ibyoku kurya, imigati, amandazi, capati, ibyo kunywesha igikoma, icyayi, n'indi byinshi.

Tugira imijyi myinshi cyane ducururizamo imyenda, inkweto ibiryo, imyambaro, amapantaro, amakote ,imyenda y'abageni n'iy'abana, iy'ababyinnyi n'ibikoresho byinshi cyane dukenera mu buzima bwacu bwa buri.....

Inzu ducururizamo zibamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye n'ibyo kurya, mo burusheti, inyama y'ifi, iy'inkoko n'ibyo kunywa pirimusi, mitsingi, byeri n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Tugira amazu menshi cyane aba atandukanye ducururizamo ibicuruzwa byinshi cyane, habamo amasafuriya, amabase, amadobo, amamarete, ibikapu baheka mu mugongo, imyenda yo kwambara, ibikombe, n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Inzu ducururizamo zibamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye, nk'amakayi, amakaramu, inkweto, imyenda, amavuta yo kwisiga, amasabune n'ibindi byinshi cyane.

Amazu ducururizamo abamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye. Amafu ya kawunga, umuceri, imigati, amandazi, udukoresho tw'isuku, imifuka batwaramo baje guhaha n'ibindi byinshi cyane.

Tugira amatorero menshi cyane, nkiry'abapende ribamo abakobwa bakunda kwitega, bambara amajipo asa bagashyiraho n'udukote dusa, bakitega n'ibitambaro bakagaragara neza.

Tugira insengero nyinshi cyane zitandukanye nk'abapende. Baritonda bategaga igitambaro bambara imyenda myinshi cyane itandukanye. Iba ari miremire imyenda zabo. Ntabwo bitera meke-up mu maso n'ibindi byinshi badakora.

Tugira amakoperative menshi cyane aba atandukanye dushyiramo ibiribwa tuba twejeje, nk'ibinyomoro, amananasi, ibishyimbo, ibigori, ibitoke n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Tugira amahoteri aba atandukanye, abamo ibicuruzwa byinshi cyane bijyananye: no kunywa, no kurya, ibyo kunywa aba ari inzoga ziba zipfundikiye nka pirimusi, mitsingi n'izindi. Ibyo turya: amafi, inyama z'inka, iz'inkoko n'ibindi byinshi cyane.

Mu masoko dusangamo ibiribwa biba bitandukanye nk'isombe igira akamaro kanini cyane nk'ababyeyi babyaye bagira amashereka. Ikuza abana irinda indwara.

Mu masoko habamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye, ji, biswi, fanta, novida, imiti y'amenyo, imiti y'amaso, ibirungo byo mu isombe, mu nyama, n'ibindi byinshi cyane bitandukanye.

Tugira amasoko duhahiramo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye, nk'amavuta yo kwisiga, amasabune, udukoresho twogesha amasafuriya, imiti y'amenyo, imyunyu, ibibiriti, impapuro z'isuku n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Amasoko aba meza cyane, nta kintu tudasangayo byose barabicuruza. Amabiswi meza cyane, imyunyu, amaji abana banywa bakagira ubuzima.

Mu masoko tugiramo， ibicuruzwa byinshi cyane， ducuruza n'ibyo guteka，habamo intoryi，karoti，inyanya， imboga za rwatsi，amashu， imineke， n'ibindi byinshi cyane， bitandukanye.

Mu masoko habamo ibintu byinshi cyane biba bitandukanye. Nk'ubunyobwa bugira akamaro kanini cyane, buryoshya isose, babushyira mu bidodoke, mu gitoki. Muri make busimbura ibishyimbo.

Amasoko aducuruza ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye. Amamarete y'abagore ,udukapu abana batwaramo ibikoresho by'ishuri ,amakayi ,amakaramu imyenda y'amoko menshi ,imifuka ya kawunga iy'imiceri n'ibindi bicuruzwa byinshi cyane bitandukanye.

Amasoko abamo ibikoresho byinshi cyane biba bitandukanye udupaniye, indobo, amabase, amasafuriya, imipira, za kawunga, imiceri, imyenda, inkweto n'ibindi byinshi cyane.

Amasoko abamo ibicuruzwa byinshi cyane bigiye bitandukanye: amasombe, ibirungo by'amasombe ,pavuro, te, sereri n'ibindi byinshi cyane. Babibetesherezamo ,imboga imbuto, ibiribwa, ibinyobwa n'ibindi byinshi.

Tugira amasoko bacururizamo imifuka na nvirope kugira ngo umuntu uhaha naja aza guhaha ajye abona ikintu atwaramo ibintu ahashye.

Mu masoko tugiramo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye, n'imboga z'amashu, zarwatsi, intoryi, karoti, inyanya, ibidodoki, kokombure, wotameroni n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Mu masoko tugiramo ibicuruzwa byinshi biba bitandukanye nk'imyambaro, abamo imyenda y'amapantaro, imipira, amagutiya, ibiteteyi n'iyindi myenda myinshi iba itandukanye, amagofero, haba imyenda ya caguwa n'iyiba yitwa ma...

Mu masoko hababomo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye, ibikoresho by'isuku by'abakobwa bifashisha bari mu gihe cy'uburumburuke, inkweto, imyenda, inkweto zabote, za kamambiri, utujerekani tw' amata, amavuta yo kwisiga n'ibindi byinshi cyane.

Mu masoko dusangamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye: imyuko, ibimamiyo ,rwagakoco, indiga, amapata, udusanduku n'ibindi bikoresho byinshi cyane biba bitandukanye.

Mu masoko tugira mo ibintu byinshi cyane biba bitandukanye: ibishyimbo, ibirayi, ibijumba, karoti, pavuro, isombe, indobo, imiteja n'ibindi byinshi cyane.

Mu masoko habamo ibiribwa byinshi cyane biba bitandukanye nk'ibitoki turabiteka tukabirya, ibindi turabifata tukabitara tukabikuramo inzoga dutwerera ahantu haba habaye ubukwe, cyangwa tukayinywa kugira ngo twishimane na zo.

Tugira amasoko abamo ibikoresho byinshi cyane biba bitandukanye n'imyenda y'abana, amakabutura, amapantaro ,amakanzu, imipira y'amaboko maremare, iy'amaboko magufi, amashuka, pampa zabo n'ibindi byinshi cyane.

Mu masoko tugira n'ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye nk'imyambaro amakanzu yabagore, ay'abakobwa, imyenda y'imbere ,amashati, amakote ,imipira, amapantaro, n'indi myenda ni myinshi cyane iba itandukanye.

Mu masoko duhahiramo habamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye bijyanye n'imyambaro, habamo amashuka, amakuvureri, imisego, amasogisi, amasutiye n'indi myenda myinshi cyane.

Mu masoko ducuruzamo ibintu byinshi cyane, biba bitandukanye bijyanye n'imyambaro: udutambaro ababyeyi bitega, imikandara itandukanye y'abamasayi ,amasakoshi cyangwa se amamalete n'ibindi byinshi biba bitandukanye.

Amasoko abagamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye nk'imyambaro harimo amapantaro, amakote n'amakanzu, amajipo, amashati y'amaboko maremare, ay'amagufi, amasogisi n'ibindi byinshi cyane.

Amasoko ni meza cyane, hakorerwamo ibintu byinshi cyane, habamo amandazi, imigati, capati, amakeke, amasambusa, n'ibindi byinshi.

Mu masoko habamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye. Ibishyimbo ,ubunyobwa, ibirayi amasafuriya ,imikubuzo ,kawunga imiceri ,amakara n'ibindi byinshi cyane bitandukanye.

Amasoko abamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye. Ibijumba, imineke, inanase, ibinyomoro, amacunga, amaronje, imboga za dodo, iz'amashu, ibirayi n'ibindi byinshi cyane.

Amasoko ni meza cyane, vtugenda turasangamo imbuto y'ibigori, imbuto y'ibishyimbo, ubunyobwa, amashaza, amasaka, ifuya soya, ibirungo by'isombe, ibirungo by'inyama, n'ibindi byinshi cyane.

Amasoko abamo ibicuruzwa byinshi cyane，biba bitandukanye，imyenda y'abana，iy'abantu bakuru，imitobe，ji zitandukanye zo kuri Nyirangarama， amapantaro， amakote，amashati n'ibindi byinshi cyane.

Mu masoko habamo ibihingwa byinshi cyane biba bitandukanye, nk'inanasi ni ibuto nziza cyane iririnda indwara, zivamo umutobe, turazirya, dukuramo amafaranga. Zirahenze mbese ntiwareba.

Amasoko ni meza cyane, aducururiza ibintu byinshi biba bitandukanye, nk'imitego bita rwa gakoco, iyo dutega imbeba tuzijyana mu bishyimbo, imbeba zaratumamariye ibishyimbo tukazitega, imbera ziturira imyaka turi mu rugo, cyangwa ibiryo turazitega zigapfa.

Mu masoko habamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye, igitoki, inyanya, voka, isombe, karoti amapera, amacunga, intoryi, n'ibindi bicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye.

Mu masoko habamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye: Imineke, amapapayi, wotameroni, amananasi, ibishyimbo, ibijumba, ibirayi, ibitunguru, ibirungo by'isombe n'ibindi byinshi cyane.

Amasoko ni meza tuyahahiragamo, tukaguriramo imyambaro iba itandukanye inkweto, imyenda, ibyo duteka ibijumba, ibirayi, ibigori n'ibindi byinshi cyane.

Amasoko abamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye; nk'imboga z'amashu, ibishyimbo ibijumba, ibirayi n'izindi mboga zitandukanye, na dodo, amasombe...

Amasoko duhahiramo abamo ibikoresho byinshi cyane biba bitandukanye n'ibiribwa ibitunguru, puwavuro, inyanya, amavuta yo guteka, kokombure, ibirungo byo mu isombe, ibyo mu nyama, indimu n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Tugira amasoko aba yarateye imbere acuruza ibintu byinshi cyane biba bitandukanye, usanga n'abantu bamwe bahaparika bategereje abantu n'abamotari barahategereza abantu baba baparitse, habaho n'abantu bacuruza mitiyi ,bacuruza n'ibiribwa byinshi cyane.

Mu masoko habamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye:kumuceri, ifu ya kawunga, amavuta guteka amakaroni ,supageti, avoka ,amandazi, imyunyu, sorwatomu ,amasabune n'ibindi byinshi cyane.

Mu isoko habamo ibintu byinshi cyane biba bitandukanye dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Amandazi, benya, keke imigati, ...

Mu masoko habamo ibikoresho byinshi cyane biba bitandukanye. Amavuta yo kwisiga ,imiti y'amenyo ,imashini bakoreramo imibare ,isaladine zibamo utunyama tw'amafi dutoya n'ibindi byinshi cyane.

Mu masoko habamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye: kokombure, ibihaza, amateke, ibijumba, ibirayi, ibishyimbo, ibitoki n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Amasoko agira akamaro kanini cyane， tuyahahiramo ibintu byo kwambara， abamo amapantaro， amakote， imipira， amakabutura，inkweto， imyenda n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Amasoko abamo ibicuruzwa byinshi cyane biba bitandukanye, ibihaza, imyembe, inyanya. intoryi, ibidodoki, ibishyimbo, ,ibijumba, avoka, inanasi n'ibindi byinshi cyane.

Mu masoko tugiramo ibikoresho byinshi cyane biba bitandukanye dukoresha mu guteka: Habamo amasafuriya, imipfundikizo yayo, imbabura, amabase, imyuko n'ibindi bikoresho byinshi cyane biba bitandukanye.

Tugira amasoko menshi cyane, tugiramo ibicuruzwa byinshi biba bitandukanye, inyanya, karoti, imboga rwatsi, intoryi, ibitunguru, ibirayi, ibishyimbo, imineke, isombe, n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Mu masoko habamo ibintu byinshi cyane biba bitandukanye dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi imboga, imbuto, ibirayi n'ibitoke, ibishyimbo, ibijumba, imyumbati ,n'ibindi byinshi cyane dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.